Umugore ufite ipombo ,bigaragara ko arimo aratera imiti imyaka iryo pombo rikaba risa umuhondo ,ndetse n'umugore akaba arimo aragendagenda mu murima munini ,atera umuti arwanya ubusimba kugirango ibihingwa bizere neza.

Abbagabo babiri bari mu mazi menshi cyane kuko yenda kubarengera urabona ko basa n'abateze amafi kugira ngo bayarobe bayakure mu mazi ndetse babona ko bafite n'ibintu by'umweru bari bayategesheje.

Amafi menshi basa naho bashyize mu dufuka tugiye dutandukanye. Bayavanye mu mazi bayajyanye i gasozi, asa nkaho agiye gucuruzwa cyangwa se kugurishwa ahantu hagiye hatandukanye, kubera ko ni menshi ku rwego ruhagije.

Ibirayi bishishe bisa neza rwose, byazanye indabo cyangwa se uruyange, bigaragara ko bifite ibara ryiza kandi bigaragara ko bizera neza, ugereranyije n'amababi yazo ndetse n'izi ndabyo uko zisa.

Umurima uhinzemo ibitoki ndetse n'ibirayi. Hakaba ari ahantu hera neza, harumbutse, kandi hakaba hari n'ibiti bigiye bifashe ku nsina kugira ngo zitagwa, imiyaga niza izajye irazisiga zimeze neza.

Umurimo uhinzemo insina, ndetse ukaba uhinzwe neza cyane bigaragara ko ushobora kuba wahinga wateramo n'indi myaka nk'ibishyimbo, ibirayi ndetse n'iyindi myaka itandukanye kuko urabona ko hakoze neza rwose.

Igikakarubamba kirarura cyane. Ni igihingwa cyangwa se ni umuti. Akenshi kivura ibiheri ndetse n'iyo urwaye indwara zitandukanye z'uruhu uragikoresha, ukamera neza. Urabona ko gihinze ahantu heza, gusa hari n'utundi twatsi twameze ku ruhande rwacyo ariko urabona ko na two dusa neza.

Umurima uhinzemo ibigori usa naho uri ahantu mu gishanga, ni hanini cyane ku buryo ubuso buhari ni bunini, hakaba hari n'umuntu urimo abuhingira, arimo agenda akuramo ibyatsi bitari ibigori kugira ngo bizere neza.

Ndabona inyanya ziri mu mufuka izindi ziri mu gitebo, urabona ko ari inyanya nyinshi zahinzwe ku buso bunini kandi hari n'ibintu by'ibyatsi ndetse n'ibiti urabona ko ari umurima bazisaruyemo.

umurimo mwiza cyane ,harimo abantu benshi ,bagiye batandukanye, urabona ko hari amaterasi ,ndetse hakaba hari n'imiyoboro y'amazi iyo bita water way mu ndimi z'amahanga ,ariko urabona ko ari ahantu hasa neza cyane.

Ibigori bisa neza cyane, bifite ibara ry’umuhondo, bigaragara nk’ibiryoha cyane, kandi bigaragara ko byabonye izuba rihagije kuko birasa n’ibyumye neza.

Igitoki cyo guteka kikaba ari igitoki cyiza kandi kinini, urabona ko gifite amabere ariho ibitoki byinshi, kandi bisa neza bigaragara ko cyeze neza, ndetse kikaba gifite ibitoki byinshi bigiye bikiriho, ndahamya co ubu butaka bweze neza cyane.

Bigaragara ko hari imbuto z'ibihaza, kandi ibi bihaza byari byareze neza bihagije, byabonye imvura ihagije ndetse n'ibitungabihingwa bihagije, birasa neza rwose.

Ibishyimbo byo gutera cyangwa se guteka ushobora kubiteka cyangwa se ukabitera harimo ibishyimbo bigiye bitandukanye hari ibyo bita shyushya ndetse na koruta ni ubwoko bugiye butandukanye bw'ibishyimbo.

Ibigori byinshi ndetse bisa neza cyane , bifite ibara ry'umuhondo . Bisa neza cyane bigaragara ko ubutaka bihinzwemo bwera , kuko bifite impeke nini kandi bigaragara ko rwose bisa neza bikeye , biraryoshye uko bigaragara.

Ibishyimbo byiza cyane biri mu mufuka bisa umutuku, ndetse bikaba biri mu mufuka usa umweru, bikaba ari ibishyimbo byiza cyane bisa neza kandi ubona ko bikeye.

Inzu icururizwamo ifumbire yo gutera imyaka igiye itandukanye, ifumbire ishyirwa mu butaka kugira ngo imyaka yere. Iyi fumbire ikaba ikungahaye ku bitunga ubutaka, nka nayitorojene, Fosiforase mu ndimi z'amahanga.

Ibigori byinshi bimwe biri hasi ndetse ibindi biri mu mufuka, turabonako bisa neza cyane kandi byeze neza birashimishije kubireba, ndetse urabonako bifite impeke nini zibyibushye bivuzeko byeze mu murima mwiza, kandi habayeho uburumbuke.

Ingurube yororerwa mu rugo cyangwa se mu biraro yibarutse cyangwa se yabwaguye. Abantu barimo barareba uburyo iki kibwana cyangwa se ubwana burimo buronka ingurube.

Ingurube iri mu kiraro ubona ko isa neza ishishe, ingurube yororerwa mu nzu ntago airi iyi gasozi, ubonako ari hanini mu nzu kandi ni mu kiraro, ariko urabona ko iri gusa naho iri kurya ibyo hasi nkuko ingurube zisanzwe zibigenza.

Inyoni ihagaze ku giti, igiti kikaba kiri mu mazi urabona ko ari amazi asa neza cyane urabona ko nta myanda myinshi iyarimo nk'ibiti, ibyatsi ndetse n'ibindi. Urabona ko inyoni ifite amabara meza cyane umukara, umweru ndetse n'umuhondo.

Inyoni y'igasozi ifite amabara meza cyane kandi ikaba iri n'ahantu heza hafite ibyatsi bitoshye ,bisa icyatsi ubona ko aha hantu hameze neza cyane, ndetse n'inyoni ikaba isa neza irashimishije inogeye ijisho ,uwayireba ntiyayikuraho ijisho.

Ingwe n'inyamaswa y' igasozi ikunda kugira amahane cyane iyo uyiyenjejeho. iri kureba inyuma isa nk'aho hari ikintu runaka irimo irareba ariko ubu iragaragara nk'inyamahoro nta muntu yakendereza

Ni inyamaswa cyangwa se inyoni yo mu gasozi bita mu kinyarwanda igisiga. Ikaba ifite umunwa muremure, ndetse ikaba idafite umurizo muremure. Ikaba iri ahantu mu byatsi, isa n'aho irimo irahiga ibyayitunga.